Abagore babiri n'umusore umwe bicaye ahantu umwe muri bo yafashe ijambo kuri mikoro ari gutanga amabwiriza y'ibintu,

Abagabo n'abagore baherereye ahantu muri sale bicaye bigaragara nkaho bari mu nama ikomeye y'ingenzi bayikurikiye.

Ndi kubona ifoto yabantu bicaye muri salle, imbere yabo hari amazi, bagaragara nkaho bari mu nama ikomeye cyane.

Abagore n’abagabo bicaye ahantu muri sale y’inana bari kugira ibyo bavuganaho umwe muri bo w'umugabo uhagaze afite ibyo ari kubabwira.

Abantu baherereye ahantu muri sale, huzuyemo abazungu, abirabura bigaragara nk'aho bari mu nama, ikomeye y'ingenzi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze arishimye cyane kumaso ye, agasatsi ke karasokoje, yambaye ikanzu y'umutuku ifite n'amabara y'umweru, hagati.

Ndi kubona ifoto igaragaraho icyapa cya eyateri hariho umunara hejuru ufata icyo cyapa cya eyateri, ujyana amakonegisiyo ahantu hatandukanye.

Ndi kubona umuntu uhagaze ku muhanda, ku ruhande hari icyapa kigaragaza ko ahari irembo rifotora rishobora no kugufasha mu gufata ibintu bitandukanye no kudepoza.

Ndi kubona itangazo rivuga uburyo wamekanisha umusoro ku nyungu, wa bibiri na makumyabiri na gatatu, ukoresheje telefone igendanwa.

Ndikubona uburyo ushobora gukora umenyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu za bibiri na makumya na kane wishyura bitarenze mirongo itatu n'imwe z'ukwagatatu bibiri makumyabiri na kane.

Umunara uri hagati y'amazu ujyana amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye by' abaturage mazu yabo muremure.

Ndi kubona inzu hanze y'iyo nzu kumuhanda hari ipoto itanga amashanyarazi ahantu hatandukanye.

Ndikubona umuhanda urimo aba motari baparitse n'amamodokari, n'iminara ibiri arimo abagenzi bari kwambuka, n'abamotari bategereje abagenzi.

Ndi kubona karitsiye y'amazu y'amakadasitiri n'amapoto abiri ahahana imiriro ahantu hagiye hatandukanye.

Kaburimbo irimo abantu benshi batandukanye mu mpande harimo amazu, hagati muri kaburimbo hari ipoto ihererekanya umuriro ku mazu aho hantu....

Ndikubona kaburimbo irimo abamotari, ibyapa bya Emutiyene n'amapoto abiri ajyanajyana imiriro ahantu hatandukanye, n'abamotari bafite abagenzi.

Ahantu haherereye amakamyo menshi agiye ajyana ibintu byose bivuye mu mahanga, mu bihugu bigiye bitandukanye no ku ruhande hari amashanyarazi y'ibyuma.

Ndi kubona amazu atatu na jaride, hariho ibyapa bigaragara nkaho ari ku kagari.

Inzu iherereye ahantu, igaragara nk'aho ari ku bitaro huzuyeho abantu baje kwivuza, abandi bicaye ku mpande z'inteme batarabakira.

Ndi kubona abagabo babiri b'abavoka bahagaze bafite inyundo mu ntoki, bigaragara nkaho bari kwifotoza.

Abagabo babiri bari muri salle, umwe ari imfungwa n'undi ari umwavoka wiwe, bari kwiga ku kirego cyiwe.

Ndikubona amabwiriza ya minisiteri yanditse y'uburyo bagiye batangamo n'amatariki yabyo uko byagiye bikurikirana namategeko ya mbere.

Abasore babiri b'imfungwa binjiye ahantu hari abashinjacyaha n'abashinjuracyaha bicaye aho hagati ku mpande yabo.

Kayibanda Gereguwari Perezida wa mbere w'u Rwanda, aho yabaye Perezida guhera mugihumbi kimwe maganacyenda mirongo itandatu na kabiri, kugeza mugihumbi kimwe maganacyenda na mirongo irindwi naga gatatu, yayoboye u' Rwanda rukibona ubwigenge barukuye mu maboko y'ababiligi.

Sale irimo abashinjacyaha n'abashinjuracyaha, aba avoka bo muri Repubulika yo mu Rwanda, bicaye muri sale bose.

Ndikubona imfungwa nyinshi zicaye n'abantu baje muri sale y'ishinjacyaha n'ishinjuracyaha, ariho bicaye buri wese ategereje ko bamugeraho akavuga ibye.

Ndi kubona kizimyamoto ivuye mu ikarito yayo ushobora kuyifashisha mu gihe ahantu habaye inkongi y'umuriro, hanyuma ukayizimisha iyo nkongi y'umuriro.

Ndi kubona ifoto iriho ikintu gishobora kuzimya umuriro mu gihe waba watatse ahantu, umuriro wabaye mwinshi ukakiyifashisha uzimya uwo muriro yego.

Inyubako nini baragaragaza ko iherereye Kibagabaga Kigali kandi barerekana ko iri kugurishwa amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu iki ni ikintu gishyirwa ku nzu cyangwa se gishyirwa ahantu umuntu ari kugurisha agamije ko abantu babona icyo agambiriye cyangwa se bamenya ko niba agiye kugurisha bamenya agaciro , igenagaciro ry'icyo kintu ashaka kugurisha .

Ndikubona abantu benshi bagiye mu itora, umwe afite ifoto ry'uwo ashaka gutora.

Inoti y'amafaranga magana atanu, y'amafaranga ya ma Tanzaniya.

Ndikubona abantu bari ku murongo bagaragara nk'aho baje kwivuza ari benshi abasaza n'abakecuru.

Ifoto y'umugabo wafotorewe hagati mubantu w'umuyobozi wambaye kositimu ufite na marineti arebye hirya.

Umugabo wicaye ahantu mu ntebe wambaye kositimu uri guseka, ugaragara nkaho ari mukazi.

Ndi kubona ikirangantego cy'idarapo y'igihugu y'u Rwanda kiriho handitseho amagambo ihuriro ry'igihugu ryunguranabitekerezo ry'imitwe ya polise demokarasi mu bwumvikane n'ubwisanzure.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo urombereje harimo umugabo ugiye kwambuka n'umumotari uparitse umeze nkaho akuyeho umugenzi n'abamama benshi bahagaze imbere ya kandagira ukarabe, ku nyubako ikikijwe n'igipangu cy'ibyuma iyo nzu yubakishijwe amatafari ahiye n'amategura n'amabati y'ubururu, hafi yayo hari ikigega cyubakishije ibyuma gisa umukara hari n'ibiti birebire.

Ndikubona umuhanda urimo abamotari bagiye batandukanye n'amaduka ku ruhande aho bacuruza inyama na moto iparitse ahongaho itariho umuntu.

Kayibanda Gereguwari Perezida wa mbere w'u Rwanda, aho yabaye Perezida guhera mugihumbi kimwe maganacyenda mirongo itandatu na kabiri, kugeza mugihumbi kimwe maganacyenda na mirongo irindwi naga gatatu, yayoboye u' Rwanda rukibona ubwigenge barukuye mu maboko y'ababiligi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikamyo n'abamotari, ku ruhande hari abagenzi, undi uri imbere ari ufite igare mu ntoki ziwe ari kuyigendesha.

Uyu ni umuhanda ugezweho wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye ndetse n'abamotari, uyu muhanda ukaba uriho ibiti biyobora abantu bizwi nka feruje ndetse n'aho abanyamaguru bambukira hagati mu muhanda.

Ndikubona ikibuga kiri ku ruhande hari aho ushobora kwicara, ikibuga ushobora gukiniraho imikino itandukanye basikete, umupira n'ibindi.

Ndi kubona icyapa kiri hagati muri kaburimbo ku ruhande, cyerekana ko aho hantu wagenda hari dodani, nta kibazo.

Ndikubona umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka n'amazu imwe itubatse ngo irangire n'abaturage bari kugenda.

Umuhanda urimo ibipangu bigeze muri bitatu, mo hagati y'ibyo bipangu harimo amazu agerekeranyije agiye atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hari imodoka eshatu ziparitse n'umumotari uhetse umugenzi, n'abandi b'abagenzi bari kugenda n'amaguru, ku ruhande hari amaduka acuruza imyenda n'andi akodesha ibintu by'ubukwe.

Ndi kubona etaje nini yanditseho amagambo zigama, ushobora kuzigama amafaranga yawe yose ushoboye kwizigama ku munsi cyangwa igihe ubishatse ukizigamira.

Ndi kubona icyapa kiriho ko aho hantu bagurisha kofi bakaba banagurisha n'ibindi bintu bitandukanye wafata mu gitondo, harimo sineke burekifasiti, simufu byose ari byo biri kuri icyo cyapa.

Ndi kubona umuhanda urimo amazu imwe yarangiye n'amapoto, n'imwe itararangiye n'amamodoka n'abagenzi.

Umuhanda w'igitaka uri hagati y'amazu, ku ruhande hari ipoto rijyana umuriro ahantu hagiye hatandukanye mu mazu, hari n'imodoka imbere aho ngaho.

Kaburimbo harimo amamodoka n'abamotari bari hagati mu ikorosi, umuntu ashobora gukatiramo imodoka yiwe bigaragara.

Kaburimbo nini irimo abamotari n'umugenzi, umumotari uri imbere ari guca mu muhanda wo muri dodani, wambukiramo abantu basanzwe, byemewe.

Kaburimbo irimo imodoka, umumotari uhetse umugenzi, igikamyo ku ruhande, hari n'aho bisi ihagararira isiga abantu, cyangwa abantu bahicara bategererereje bisi.

Ndi kubona umuhanda wa kaburimbo urimo mota abamotari ikamyo ebyiri n'ikintu cy'isaha y'umuhanda.

Mu muhanda hagati muri kaburimbo iri gucamo imodoka; handitsemo ahedi bivuga komeza.

Kaburimbo iherereyemo imodoka n'amamoto, hagati muri dodani harimo umugore uri kwambuka avugira kuri telefoni.